Abakozi babiri, uw'umugabo ndetse n'umugore, bakaba bambaye imipira y'umweru, bakaba bakorera sosiyete y'ikigo cy'itumanaho.

Umucuruzi wa serivisi z'itumanaho, tukaba tuhasanga serivisi zitandukanye nko kugura amayinite, kubitsa amafaranga, aho ibi bidufasha kuba twahanahana amakuru n'abandi bantu batandukanye.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo, amagambo yandikishijwe inyuguti z'umukara, akaba ari icyapa cyamamaza abatanga serivisi z'itumanaho, mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse no kohereza amafaranga.

Umucuruzi wambaye ijire y'umuhondo akaba yitwikiye umutaka uri mu mabara y'umuhondo wandikishijwe inyuguti z'umukara, akaba ari gukorera se sosiyete ikora ibijyanye n'itumanaho.

Abanyonzi batandukanye bambaye amasengeri y'umutuku ndetse n'umuhondo ndetse n'abandi bagabo, inyuma hari akazu gacururizwamo serivisi z'itumanaho kari mu mabara y'umuhondo.

Abantu b'ingeri zitandukanye, abagore, abagabo ndetse n'umugabo wambaye ikoti ry'icyatsi, bafite indangururamajwi, imbere ye hakaba hari imbuto z'inanasi ziryoha cyane.

Abantu b'ingeri zitandukanye: abagabo, abagore ndetse n'umugabo uhagaze wambaye ikoti ry'umukara, ufite indangururamajwi, aho ari kugeza ijambo abamukurikiye.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, abagabo, urubyiruko ndetse n'abagore, bahuriye mu gikorwa cyo gusarura imyaka yeze kugira ngo bazayitunganye ivemo ibyo kurya.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, abagabo, abagore, hakaba harimo abambaye imipira y'ubururu ndetse n'imipira y'umweru, bakaba bahuriye ahantu hamwe.

Umugabo wambaye ikoti, umupira w'ubururu, ufite indangururamajwi ndetse n'ikaramu akaba ari ahantu hari ibitambaro by'icyatsi ndetse n'umuhondo, akaba ari kugeza ijambo abamukurikiye.

Abantu b'ingeri zitandukanye: urubyiruko, abamama, abagabo, abagore ndetse n'abandi, bahuriye ahantu bari kungurana ibitekerezo.

Inyubako zitandukanye, ziri mu mabara y'ubururu, amarangi y'umuhondo ndetse n'amabati y'umutuku, imbere yayo hakaba hari abantu babiri, hakaba haparitse ndetse n'ipikipiki.

Igare riparitse, ku giti, iruhande rw'umuhanda, imbuga ikaba irimo amapave, rikaba rifite amakaziye ane arimo ibinyobwa bitandukanye.

Ahacururizwa ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bitandukanye, hakaba hari intebe abaza bahagana bicaraho, akaba ari ahantu ujya ukaba wabona icyo kurya.

Ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, hakaba harimo ibisembuye n'ibidasembuye bikaba byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Icyapa kigizwe n'amabara y'umweru, amagambo yandikishijwe inyuguti z'umukara ndetse n'umutuku, aho kiri kwamamaza ibikorwa bikorerwa mu kigo gitandukanye, akaba ari igikoresho gikoreshwa mu kubwira abantu ibyo ukora.

Abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo urubyiruko ndetse n'abagabo bahuriye ahafatirwa ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bitandukanye, hakaba hari intebe ziri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Umucuruzi uri ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, aha twavuga ibikoresho by'ikoranabuhanga, amata, ibiryo, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahagurishirizwa ibicuruzwa bitandukanye hakaba hari amavuta yo kurya, umunyu ndetse n'ibindi biribwa umuntu yakenera mu buzima bwa buri munsi.

Umucuruzi w'umugabo wambaye umupira wumukara, uri ahagurishirizwa ibicuruzwa bitandukanye, ibyokurya ndetse n'ibyokunywa.

Ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye hakaba hari ikarito irimo amacupa ane afite imifuniko y'umutuku.

Umucuruzi uri kumwe n'umwana bari ahagurishirizwa ibiribwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, hakaba harimo amandazi, imitobe yo kunywa, ndetse n'amavuta yo gu gutekesha.

Umucuruzi uri ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aha twavuga: amandazi, amavuta yo guteka, ubunyobwa ndetse n'ibindi byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Umucuruzi w'umugore uri mu nzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ibyoku kurya ndetse n'ibyo kunywa, aho tuhasanga ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye.

Ahagurishirizwa ibicuruzwa bitandukanye hakaba harimo abacuruzi aho bari kugenda bakira abakiriya babagana, hakaba harimo ibicuruzwa bitandukanye, amagi ndetse n'amavuta yo kurya n'ibindi.

Ahagurishirizwa ibicuruzwa bitandukanye, hakaba hari amasabune yo kumesesha, afunze mu mumapaki ari mu mabara y'ubururu ndetse n'umuhondo.

Ahacururizwa imyenda y'ubwoko butandukanye, ibikapu byo gutwaramo ibikoresho ndetse hakanadoderwa imyenda y'ubwoko butandukanye.

Ahagurishirizwa ibicuruzwa bitandukanye hakaba haparitse amagare ndetse n'amapikipiki yifashishwa mu kugeza ibicuruzwa mu duce dutandukanye bityo tukabona ibyo guhaha.

Ahacuruzwa imyenda itandukanye, hakaba hari ubwoko bw'imyenda butandukanye, imbere hakaba hari haparitse imodoka, inzu ikaba isize amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo.

Ahagurishirizwa ibicuruzwa bitandukanye, hakaba harimo, amagi, karoti, ibitunguru, amafu y'ubwoko butandukanye, ndetse n'ibindi byinshi.

Urusengero akaba ari ahantu dukora serivisi z'iyobokamana, aho tuhasanga abakirisitu, abapadiri, abapasiteri batandukanye, aho batwigisha uburyo twakora neza n'uburyo twabana n'abandi mu mahoro.

Abaturage batandukanye biganjemo abagore n'abagabo, abenshi bitwikiriye imitaka yo kubarinda izuba ryinshi, bateraniye imbere y'urusengero aho baje gusenga.

Inyubako ndende, iri mu mabara y'umweru, amabati y'umutuku ndetse n'amatafari ahiye, hakaba hatangirwa serivisi zo gusenga.

Abaturage b'ingeri zitandukanye: abagabo, urubyiruko ndetse n'abagore, aho bahuriye ku rusengero muri serivise z'insengero, hakaba hari n'urusengero rurerure ndetse n'ibiti birebire cyane.

Ahatangirwa serivisi z'amacumbi, ibinyobwa, ibiribwa, hakaba hari amatara y'ubwoko butandukanye, uruganiriro, akaba ari ahantu waruhukira.

Inyubako ifite amagorofa ikaba iri mu mabara y'umuhondo, ikaba isakajwe amabati, mu mbuga hakaba hasashwe amapave.

Ahatangirwa serivise z'amacumbi mu cyumba hakaba harimo uburyamo akaba ari ahantu ushaka kuruhuka aza kuruhukira.

Inyubako igizwe n'igorofa, amasikariye azamuka ku gice cyo hejuru, mu ruganiriro hakaba hari intebe z'umutuku, aho abantu bicara bari kuganira.

Inyubako igizwe n'amagorofa imbere yayo hakaba hariho ubwogero, akaba ari ahantu hatangirwa serivisi z'amacumbi, ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Ahatangirwa serivisi z'amacumbi, mu cyumba hakaba harimo uburyamo ndetse hakaba hamanitse n'inzitiramibu, akaba ari ahantu tugana kugira ngo tuharuhukire.

Ahatangirwa serivise z'amacumbi, ibinyobwa, ibiribwa ndetse n'umuntu wo kuhacungira umutekano, akaba ari ahantu ushaka kuruhuka aruhukira.

Inyubako z'amagorofa akaba ari ahantu hatangirwa serivisi z'amacumbi, ibinyobwa ndetse n'ibiribwa aho abantu baza kuruhukira.

Ahagurishirizwa ibiryo n'ibinyobwa bitandukanye, bikaba bidufasha kwirinda inzara kandi bikaba birimo intungamubiri zitandukanye, aho buri wese ufite amafaranga ajya kubigura, bityo akagira ubuzima bwiza.

Ahagurishiza ibiryo by'ubwoko butandukanye, akaba ari ahantu ushonje ajya kuruhukira, bityo bakaba bamuhereza ibiryo by'amoko atandukanye.

Ahatangirwa serivisi z'amacumbi, ibiribwa, ibinyobwa, imbere hakaba hari ubwogero, aho abaharuhukiye bajya koga.

Abacuruzi bafite igiti, umunzani ndetse n'imifuka irimo ibicuruzwa bitandukanye, umunzani akaba ari igikoresho cyifashishwa mu gupima ibiro by'ibicuruzwa runaka.

Amazu acururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibicuruzwa imbere yayo abantu batandukanye baje kwigurira ibicuruzwa bitandukanye.

Abacuruzi batandukanye bari ahagurishirizwa ibicuruzwa bitandukanye nk'imboga, ibitunguru, amashu, imiteja ndetse n'ibindi.

Ihene z'ubwoko butandukanye iz'umukara ndetse n'umweru ziziritse ku giti ziri aho zigurishirizwa akaba ari ubucuruzi bwo ku mihanda.

Ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, imyaka, imboga n'imbuto, hakaba hari amahema kugira ngo ibicuruzwa bitaza kunyagirwa cyangwa ngo byicwe n'izuba ryinshi.

Abacuruzi bari kugurisha ibirayi ku muhanda, kugirango babashe kubona amafaranga yo gukoresha muzima bwabo bwa buri munsi. Aba bamama baba bazindutse baje gukora ubwo bucuruzi.

Ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye ku mihanda, aha twavuga indobo, ibikoresho bikoreshwa mu guteka nk'imyuko ndetse n'ingufuri.

Imashini idoda imyenda ikaba idufasha mu buzima bwa buri munsi, aho tudoda imyenda mishya ndetse tugasana n'iyangiritse, bikadufasha gusa neza mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Intebe ameza biri ahantu hagurishizwa ibyokurya. Aha hakaba ari ahantu dushaka gusanga amafunguro atandukanye, ibinyobwa bitandukanye, bityo bikadufasha kuba twabona aho dukura ibyo kurya bitworoheye.

Umumotari utwaye ipikipiki ndetse n'umugenzi wambaye ingofero z'umutuku akaba ari igikoresho gitwara abantu n'ibintu.

Abamotari batwara amapikipiki atandukanye bahagaze, andi abiri aparitse ndetse n'undi utwaye umugenzi bikaba byifashishwa mu gutwara abantu bava ahantu bajya ahandi.

Umumotari utwaye umugenzi, arimo ku pikipiki iri mu muhanda. Akaba ari igikoresho cyifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu, bava mu gace kamwe, cyangwa se bajya mu kandi.

Umumotari utwaye ipikipiki iriho imyaka itandukanye, ibitoki bibiri ndetse n'imifuka ibiri y'ibirayi, ipikipiki ikaba yifashishwa mu kugeza imyaka ahantu hatandukanye.

Umumotari utwaye ipikipiki, utwaye umugenzi w'umumama ndetse n'abandi bamotari, n'amapikipiki menshi ku ruhande, akaba ari ahantu umuntu aza gushaka umuntu umutwara, amuvana ahantu hamwe amujyana ahandi.

Umumotari utwaye ipikipiki mu muhanda, ipikipiba ikaba ari igikoresho gikoreshwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho kidufasha gutwara ibicuruzwa tubigeza ku masako atandukanye kandi kikadufasha gutwara abantu tubakura kamwe tubajyana ahandi.

Umunyonzi utwaye umugenzi ku gare, ku ruhande hakaba hari ibiti bitandukanye igare rikaba ari igikoresho, cyifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Abatwara amapikipiki batandukanye bambaye amajire y'ubururu bahuriye ahantu haza gushakirwa abagenzi, bakaba batwara abantu n'ibintu babikura ahantu babijyana mu kandi gace.

Umumotari w'umugabo wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'ikoti, utwaye ipikipiki mu muhanda, ipikipiki ikaba yifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, umunyonzi utwaye igare ndetse n'amapikipiki, akaba ari ibikoresho bikoreshwa mu gukora ibintu bijya ahandi ndetse no gutwara abantu.

Imodoka iri mu mabara y'umweru n'umukara iri mu muhanda, akaba ari igikoresho gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu, aho gitwara abantu kibajyana mu kandi gace ndetse kigatwara n'ibicuruzwa bitandukanye.

Umumotari utwaye ipikipiki ahetse umugenzi, ubu akaba ari bumwe mu buryo bukoreshwa n'abantu mu kuva ahantu cyangwa bajya ahandi, mu gihe bibaye ngombwa ko bakwerekeza mu kandi gace.

Umuhanda urimo abamotari batwaye amapikipiki, ipikipiki akaba ari igikoresho gikoreshwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu bitandukanye.

Umumotari utwaye umugenzi ku ipikipiki mu muhanda, ku ruhande hari ibiti ndetse n'amazu akorerwamo ubucuruzi, bikaba ari igikoresho gitwara abantu n'ibintu.

Abamotari batatu bahagaze, ndetse n'mwe wambaye ishati wicaye kupikipiki, abandi bambaye amajire y'umuhondo, iruhande rwabo hakaba hari imodoka.

Umumotari utwaye ipikipiki iriho ndetse n'imizigo ayikuye ahantu hamwe ayijyana ahandi, ubu bukaba ari bumwe mu buryo bukoreshwa ukura ibintu mu gace kamwe ubijyana ahandi kugira ngo bibashe kugezwa ku masoko ndetse n'abaturage babone uko babigura.